Ahantu hari akazu ka MTN Mobile Money, harimo umudamu wambaye agapira k'icyatsi, afashe igitabo mu ntoki n'ikaramukura, kuri ako kazu hashushanyijeho igishushanyo cya telefone.

Ni imbere y'inyubako yanditseho ivuriro, imbere yayo hari umutaka wa MTN ushinze mu kantu kameze nk'agasanduku, hirya y'iyo nyubako hari izindi nyubako, harimo isakaje amabati y'umukara n'isakaje amabati y'umutuku.

Inzu ifunguye umuryango, iyo nzu iteye irangi ry'umweru, inzugi ni umweru ariko ziriho ibyapa bya MTN byanditseho MTN Mobile Money. Mu nzu imbere harimo umudamu wambaye agasengeri k'ubururu ndetse n'agatanda kariho inkweto.

Akazu k'umutuku kanditseho amagambo yanditse amabara y'umweru n'umukara ayo magambo hari Eyateri mane, hari du wivu Eyateri mane, hari kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na gatanu urwego.

Inzu iteye amarangi yiganjemo ay'umweru n'ay'umutuku, iyo nzu yanditseho EQUITY BANK, imbere yayo hari ururabo, kandi imbere yayo hari abantu benshi bahagaze, muri bo harimo uwambaye ingofero y'umukara imbereho'umweru, hari uwambaye igishati cy'umweru kirekire hakaba hari uwambaye itaburiye y'ubururu, iyi nzu kandi yanditseho agent.

Umugabo wicaye ku gatebe, iruhande rwe haparitse imodoka y'ivatiri, inyuma ye hari undi mugabo wambaye ishati y'umweru, inyuma y'uwo mugabo hari imodoka nyinshi ziparitse.

Icyumba, igikuta giteye irangi ry'umuhondo, icyumba kiriho ibyapa bya eyateli handitse ngo ohereza unakire amafaranga ku muronko, kuri icyo cyapa hashushanyijeho umugabo wambaye agapira k'umutuku, muri iki cyumba harimo umugabo wambaye ishati y'igitenge afashe mikoro yambaye na linete.

Ahantu hameze nk'aho hari ikibuga; iruhande rw'icyo kibuga hari abantu benshi bahagaze; benshi muri bo bambaye imikenyero, abakobwa bambaye n'udupira tw'umukara, abahungu bambaye amashati y'umweru; imbere yabo hari abantu babiri bapfukamye; amaboko yabo bashyize mu mpande bigaragara ko bari kubyina.

Igice cy'imodoka kiri kugaragara cyanditseho amagambo avuga ngo momo foromu mtn cyanditse mu ibara mu ibara ry'umuhondo icyo gice cy'imodoka giteye irangi ry'ubururu.

Ahantu hahagaze abantu, bahagaze munsi y'ibiti, iruhande rwabo hari inyubako, imbere y'abo bahagaze hari abandi bicaye, harimo babiri bambaye ingofero z'ibiziga, undi wambaye ishati y'umweru, afashe mvirope mu ntoki.

Ahantu hari inyubako nini yubakishije amabati y'umutuku, isakaje n'andi y'umutuku, irimo ibigori byinshi, bigaragara ko ari ihunikeiro ry'ibigori. Iruhande rwayo hari ikigega ndetse iruhande rw'ibumoso hari ibiti birebire. Iyo nzu iparitseho igare.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ayo matafari bayateye irangi ry'umukara n'umutuku, inyubako imbere hahagaze abantu benshi biganjemo abagabo, iruhande rw'iburyo hari umugabo ufite inda ije imbere ndetse iruhande rwe haparitse moto.

Umugabo wambaye umupira urimo amabara y'umweru umutuku, ubururu uwo mugabo yambaye bote z'umukara n'ipantaro ijya gusa n'umweru, imbere ye hari ubwoko bw'imbuto bwinshi buri muri pipiniyeri, umugabo afashe ku mutwe w'urubuto rwitwa umwembe.

Ahantu hari abantu bambaye ingofero z'umweru, udupfukamunwa tw'ubururu, ibishati birebire by'umweru n'amapantaro y'umweru, bambaye ga mu ntoki, imbere yabo hateretse ibiribwa birimo amatunda n'ibinyomoro n'ibindi byinshi.

Mu cyumba kirimo abantu benshi bicaye abagabo n'abagore, iki cyumba hahagazemo abantu babiri, umudaso wambaye imyenda y'icyatsi, ufite ukuboko kumwe, iruhande rwe hahagaze umudamu wambaye impeta, bigaragara ko ari kumuha igihembo seritifika.

Icyumba kirimo mama wambaye imyenda ijya gusa n'umweru irimo umukara, afashe telefone ya smart mu ntoki, yambaye ingofero k'umweru karimo ibara ry'umukara ritambitse, inyuma ye hari urugi rw'umutuku ndetse hari n'intebe icuritse.

Ahantu hahinze imyaka kandi hari ibiti birebire muri ibyo biti harimo ibya gasiha imbere y'ibyo biti hahagaze abantu muri bo abenshi bambaye udupfukamunwa imbere yabo hateretse udufuka twinshi.

Hari inyubako iteye irangi ryumweru inzugi n'amadirishya biteye irangi by'umukara iyi nyubako yanditseho sako ingenzi Byimana iruhande rwayo hari izindi nyubako kandi inyuma hari ibiti.

Icyumba kirimo abagabo, abenshi muri bo bambaye amakoti, karuvati n'ubupfukamunwa bw'umukara, imbere y'abo bagabo hahagaze undi mugabo, wambaye ikote n'ipantaro bijya gusa n'umukara, yambaye ishati y'umweru na karuvati na we yambaye agapfukamunwa, afite ibyo ari kubereka ku cyapa kimanitse ku rukuta.

Icyumba gitondetsemo amacupa menshi y'inzoga y'ubwoko butandukanye. Icyo cyumba hejuru harimo parafo y'umweru iri kwakaho amatara abiri. Ibikuta byubakisha amatafari ahiye biteye irangi ry'umutuku ndetse n'umukara.

Kontwari iteye irangi ry'umutuku, irimo amacupa y'amoko atandukanye y'inzoga, ayo macupa harimo ay'icyatsi, harimo ariho ibirango by'umuhondo, hari ahariho ibirango by'umweru ndetse n'ibindi birango bitandukanye.

Imeza iteretseho amacupa y'amoko atandukanye y'inzoga, ayo macupa buri cupa ryose rigiye ririho izina ry'iyo nzoga uko ryitwa, hari iryanditseho Red Rabel, hari iryanditseho JB n'andi mazina agiye atandukanye agiye yanditse kuri ayo macupa.

Icyumba ashyiriho akabati karimo inzoga z'amoko atandukanye, iruhande hari igishushanyo gishushanyijeho icupa ry'inzoga, icyo cyumba ibikuta biteye irangi ry'umweru. Imbere hari amakaro y'umukara n'umweru avangavanze.

Icyumba kirimo abantu benshi harimo abicaye, harimo abahagaze, kirimo urumuri rwinshi rwiganjemo urw'umutuku, harimo utumeza twicayeho abantu imbere yabo hateretse icyo kunywa abandi barahagaze.

Ahantu hari akabati karimo amacupa menshi bigaragara ko ari ay'inzoga y'ubwoko butandukanye, imbere hateretse intebe zigiye zikikije utumeza, bigaragara ko ari aho banywera.

Icyumba kirimo akabati karimo inzoga iruhande hari ibindi bikoresho, imbere y'ako kabati hari kontwari, imbere y'iyo kontwari hari udutebe tune turi mu mabara y'umweru n'umukara dufite uruzenwa mo hasi, iruhande hari utundi dutebe tubiri twa rwegamira.

Ni mu iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amakayi, amakaramu, ibiroso, fanta, ji, amacupa y'inzoga, buto, iryo duka hasutamyemo umukobwa wambaye ijipo y'umutuku n'a agapira k'umukara.

Ahantu bigaragara ko ari muri butike aho bacururiza harimo imyenda ibumbiye hamwe idose mu budodo hari iyo myenda yiganjemo amabara y'umukara ubururu n'umweru.

Inzu yigitwe ifunguye imiryango itatu, umuryango wo hagati hari igipupe cyambaye ikanzu ndetse hateretse n'agatebe imbere, iyo nzu ku miryango ibiri hejuru handitse amazina ya ba nyiri iyo miryango bahacururiza.

Ahantu hateretse agatebo karimo imbuto, izo mbuto harimo imiyembe, indimu, ibinyomoro amatunda, iruhande hateretse umukubuzo muremure ndetse hariho n'abantu bari kugaragara ibice byo hasi amaguru n'inkweto.

Umugabo uri guseka, uwo umugabo yambaye isengeri y'umweru, inyuma yayo yambaye itaburiye, ifashe imbere gusa y'icyatsi, imbere ye hateretse amafi y'ubwoko butandukanye, hirya y'uwo mugabo hari abandi bantu bari gucuruza imbuto.

Mu cyumba kirimo abagabo benshi bambaye amakoti, bambaye udupfukamunwa tw'umweru dusongoye imbere, abenshi muri bo barapfukamye abandi barahagaze, amaboko yabo ari hejuru bigaragara ko bari gusenga.

Ahantu hari urusengero, urwo rusengero hejuru rufiteho ikimenyetso cy'umusaraba, imbere yarwo hari abantu benshi muri bo abahagaze imbere y'urusengero bambaye amakanzu y'umweru. Bigaragara ko ari ku izuba kuko abantu benshi bafite imitaka bitwikiriye.

Ni mu rusengero hari umugabo wambaye ingofero y'Abayisiramu n'ikanzu ndende ijya gusa n'umweru irimo amabara y'icyatsi, inyuma ye hahagaze abandi badamu batatu bicaye bitandiye, uwo mugabo afashe mikoro ari kuvuga ijambo.

Ni mu rusengero rusakaye imbere, rutatse neza rutakishije imyenda y'amabara atandukanye ay'umutuku, ay'icyatsi, ay'umweru, ay'ubururu, ay'iroza, muri urwo rusengero imbere hahagaze korari iri kuririmba.

Urusengero rufunguye hejuru rusa n'aho ruriho umusaraba, urwo rusengero imbere yarwo hahagaze abantu benshi muri bo harimo abadamu n'abana ndetse n'abagabo harimo uwambaye umupira w'ingofero wambaye mu mutwe, imbere y'urwo rusengero kandi hari igiti kirekire.

Ahantu hari inyubako imeze nk'urusengero yubakishije amatafari ahiye; imbere ifiteho akantu kazamutse kameze nk'akagonyi; iruhande rwayo hari abantu benshi bahagaze harimo abadamu bambaye imikenyero ibitenge ndetse n'abagabo bambaye amakoti.

Icyumba kirimo abantu benshi muri bo harimo abambaye imyenda y'imituku, harimo umugabo upfukamye amaboko ye ari hejuru, iruhande rwe hateretse ingoma inyuma y'iyo ngoma hari umugabo wambaye ishati y'umukara.

Icyumba kirimo abantu bicaye, imbere hicaye abantu batanu, batatu muri bo bambaye amashati y'umweru. Inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho geda makumyabiri na gatanu. Imbere y'abo bantu hahagaze abantu batatu bose bafite amatelefone bari gufotora.

Abantu benshi muri bo harimo umudamu wambaye ipantaro y'umukara, agapira k'icyatsi hejuru ku ikora kariho amataratara, iruhande rwe hagaze undi wambaye agapira k'icyatsi afashe ururabo mu ntoki, ibumoso bwe hari umupolisi nawe afashe ururabo mu ntoki.

Ahantu hari ikibuga iki kibuga gikikijwe n'ibiti, muri iki kibuga hagati harimo ibiti bibiri birebire harimo igiti cy'ururabo, aha kiri iruhande rw'ibyo biti ndetse n'utundi turabo duto.

lcyumba kiri kugaragara intebe y'umutuku, ku rukuta hamanitseho ikirahure kiri kugaragaramo iyi ifoto ,ndetse iruhande rw'icyo kirahure hariho televiziyo, iyo televiziyo irimo umudamu wambaye umupira w'umutuku.

Imbere y'inzu yubatse igeretse, iyo nzu irimo ibirahure biri kurabagirana, ifite utwuma abantu bafataho kugira ngo batagwa, imbere yayo hahagaze umugabo wambaye ikositimu ijya gusa n'umukara, yambaye inkweto z'umukara n'ishati y'umweru.

Icyumba, ibikuta biteye irangi rijya gusa n'umuhondo, harimo intebe n'utumeza n'inzugi biteye irangi rijya gusa n'umutuku, akameza gateretseho isakoshi n'icupa ry'amazi, muri iki cyumba harimo igitanda kiriho imisego ibiri ndetse hejuru y'iki gitanda hariho inzitiramubu ipfunditse.

Ahantu hamanitse ibintu by'umweru bimeze nk'aho ari iperereza muri icyo cyumba kandi harimo umudamu wambaye imyenda ijya gusa n'icyatsi, yambaye amataratara y'umukara, imbere ye hateretse akarabo, akikijwe n'intebe nyinshi bigaragara ko ari muri hoteli yaje kwiyakira.

Icyumba kirimo abanyeshuri benshi bafashe seretifika, abo banyeshuri bambaye ibikanzu birebire by'umukara, inyuma biriho amabara yo mu iderapo ry'igihugu cy'u Rwanda, iry'ubururu, iry'umuhondo n'iry'icyatsi, bambaye ingofero, biragaragara ko ari abanyeshuri basoje amashuri ya kaminuza.

Icyumba bigaragara ko ari icyumba cyo muri hotel, icyo cyumba gitatse ibitako bitandukanye biri hejuru, hasi hari udutebe tw'ubururu n'umweru tugiye duteye dukikije ameza.

Icyumba kirimo ibishushanyo by'ubugeni muri byo harimo ibishushanyo by'abagabo bari gutwara amagare harimo ibyibo byiza bya kinyarwanda byaboshywe harimo n'ibindi bishushanyo byinshi by'ubugeni.

Mu cyumba bigaragara ko ari cyo muri hoteri, ibikuta biteye irangi ry'umweru, inzugi ziteye irangi ry'umutuku, hari igitanda gihari, icyo gitanda kiriho imisego ibiri. Hejuru ya buri musego hari itara riri kwaka.

Ahantu hari inyubako igeretse iyo nyubako hasi ikingishijwe mitarike isa umukara, iteye irangi ry'umweru, hejuru hari intebe z'umutuku ziteyeyo kugira ngo ugereyo bisaba kuzamuka kuri esikariye.

Mu cyumba kirimo amarido amwe ajya gusa n'icyatsi andi n'umweru asa n'umweru arabonerana, icyo cyumba kirimo igitanda gishashe kiriho imisego ibiri hejuru y'icyo gitanda kandi hari inzitiramubu izinze.

Ahantu hari inyubako igeretse, inyubako imbere hagiye hari udutaka tw'umweru, munsi y'utwo dutaka harimo intebe n'utumeza, imbere hari ikizeru kimeze nk'aho ari pisine.

Ahantu hari ibibuga bigaragara ko ari ibibu bakiniraho, hariho ibyuma birebire bimeze nk'amatara, iruhande hari ubwatsi hirya y'ubwo bwatsi hari amazu yubatseho.

Ahantu hari inyubako igeretse, iyo nyubako yubakishije amatafari yahiye, ahandi hateye irangi ry'umuhondo, hejuru imeze nk'ikizeru, imbere yayo hari umuhanda ukikijwe na jaride nziza iriho ibiti by'indabo.

Ni mu isoko ahantu harunze inkoni nyinshi, iruhande rwazo hari umudamu, hari kugaragara igitenge cy'umudamu, imbere ye hateretse udufuka dusa naho turiho ibintu bimeze nk'ibikukuru, iruhande rwazo hari intebe ndetse n'ishashi y'umutuku iriho ibintu.

Ahantu hari ibiti banikaho imyenda, iruhande hari amagare abiri, igare rimwe riparitse ku giti, irindi gare riryamye hasi mu byatsi. Iyo myenda irasa naho ari ingofero z'abadamu.

Ni mu isoko hatanditse inkweto z'amoko atandukanye hari siripa hari bodaboda hari mwaminini hari inkweto zifunze hirya hirya y' ahataditse inkweto hari amagare apakiyeho ibifuka birimo ibicuruzwa ariko batari batandika.

Ahantu hari abantu benshi, bigaragara ko ari mu isoko, harimo umugabo ufashe kabaragara mu ntoki, yikoreye n'ikindi gitoki, hari undi ufashe kabaragara gusa, inyuma yabo hari imifuka irimo, ibiribwa by'umuhondo bimeze nka pavuro.

Ahantu hari umutaka wa MTN, wanditseho ishyura Startimes na govu tivi, iruhande rwayo hahagaze umudamu wambaye agakomo mu kaboko k'ibumoso, ako kaboko kandi gafashe umukubuzo.

Ni mu isoko bacururiza imbuto hari abadamu bicaye imbere yabo hateretse amapera, andi ateretse mu gafuka, inyuma yaho hari umugabo uhagaze iruhande rw'ikigunguru cy'icyatsi.

Umudamu wicaye ku ntebe imbere y'inzu, imbere ye hateretse karoti, inyanya n'intoryi iruhande k'umuhondo, mu ntoki z'uyu mudamu, afashemo karoti ebyiri, inyanya ebyiri intoryi ndetse n'ibindi bicuruzwa.

Ni mu isoko aho bacururiza imyenda, hari umudamu wambaye ipantaro y'ikoboyi wicaye, inyuma ye hahanitse imyenda y'abadamu itandukanye, muri iyo myenda yiganjemo ibitenge by'abagore.

Abantu bicaye begeranye, bakikije ameza y'uruzeru, kuri ayo meza hateretse ibinyobwa bitandukanye hari amacupa ya fanta, hari ay'inzoga n'ibindi binyobwa bitandukanye, muri abo bantu, harimo umwe uhagaze.

Ni mu muhanda hagati, hari imodoka'umukara irihuwugendamo. Iruhande rw'umuhanda hari amazu menshi, inzu imwe muri zo yanditseho fodibeti. Imbere y'iyo nzu hari moto iri mu muhanda.

Mu muhanda wa'amabuye harimo moto ebyiri ziriho abantu imwe iriho umugabo wambaye igikoti cy'umutuku indi iriho abantu babiri bose bambaye kasike z'umukara iruhande rwabo hari inyubako nyinshi.

Ni mu muhanda harimo moto nyinshi ziri kugenda, harimo n'imodoka iri kugenda, hakurya y'umuhanda hari amazu yubatse mu biti, hino y'umuhanda iruhande rwaho haparitse umugabo wicaye kuri moto, yambaye ishati y'amakarokaro y'umweru n'umukara.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umugabo wambaye kasike y'umutuku ahetse umudamu uhetse umwana, iruhande rwabo hari insinga z'amashanyarazi zinyuyuranyemo ndetse hari ibiti birebire

Ni mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti inyuma yawo hari amashuri, uwo muri muhanda harimo umugabo wambaye kasike y'umukara, ahetse agakarito n'agafuka kuri moto mu mahembe harimo indi kasike y'umukara.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umugabo uri gusunika igare, iryo gare ririho udufuka tubiri n'udukarito tubiri. Iruhande rw'uwo muhanda hari kugenderamo umugabo ndetse iruhande rw'umugabo hari ibiti byinshi bikikije umuhanda.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo, uwo muhanda ukikijwe n'ibiti, ku ruhande hari ibifoto biriho insinga z'amashanyarazi, muri uwo muhanda harimo moto iri kuwugendamo iriho umuntu uhetse umudamu inyuma, bombi bambaye kasike z'umutuku.

Ni mu muhanda w'igitaka hari umugabo upakiye ibintu byinshi kuri moto imifuka ibiri ndetse n'ibitoki bibiri inyuma ye hari igipene k'imodoka kinini imbere ye hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo abantu urimo n'imodoka y'ivatiri y'umweru.

Mu muhanda wa kaburimbo hari umugabo utwaye igare ahetse ibijerikani bibiri, yambaye isaha mu kaboko k'iburyo, iruhande hari imodoka y'ivatiri iteye irangi ry'umukara, imbere yayo hari umugabo uhetse undi ku igare.